Abadamu batatu bambaye imyenda iri mu bitenge bakaba bari ku ivomero rusange, bazanye ibikoresho bitandukanye batwaramo amazi nk'indobo ndetse ku ruhande rw'iryo vomero hari ibiti birebire.

Ku ivomero rusange abantu bamwe baje kuvoma abandi baje kogereza abana ndetse hari umumama wambaye agapira kari mu ibara rya pinki uri koza umwana yicaye mu ibase.

Abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bari mu cyumba kiberamo inama. Imbere ku meza bicayeho hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe mu cyumba kiri kuberamo inama, ku meza hateretseho udukombe dushyirwamo icyayi ndetse hakaba hari n'icyuma kifashishwa mu kumurika amashusho ku gikuta.

Abagore babiri ndetse n'umugabo, bari gufatanya gupakira imifuka irimo ibintu bitandukanye, ndetse umugabo yambaye ishati y'ubururu, n'abamama bambaye amakanzu akoze mu bitenge.

Abamama batatu bari ku ivomero rusange, bagiye bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ndetse imbere kuri iryo vomero hari amajerekani bitwaje yo gutwaramo amazi bari buvome. Iryo vomero rikikijwe n'ibiti.

Abaturage benshi bahagaze hamwe higanjemo abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, bari kwerekana uburyo bushobora gufasha umuntu warwaye icyorezo cya ebola kugira ngo kidasakara.

Umugore utwite aryamye ku gitanda cyo kwa muganga yambaye agapfukamunwa, bari kumupima kugira ngo barebe umwana atwite uko ubuzima bwe buhagaze ndetse hari undi muganga wambaye agapfukamunwa na we.

Abana benshi bagiye batandukanye bigaragara ko bambaye niforume bari ku ivomero rusange, hari indobo z'umuhondo bari kuvomeramo amazi ndetse harimo abakobwa ndetse n'abahungu bakikijwe n'ibiti.

Abaturage babiri umugabo n'umugore bafite amajerekani ku ivomero rusange bari kuvoma amazi, ndetse hari undi mugore uhagaze imbere uri kubasobanurira uko ivomero ryitabwaho.

Abana bane bahagaze ku ivomero bafite utujerekani baje gutwaramo amazi ndetse hari undi mukobwa uri kubafasha kubona amazi, hirya hari imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Abaturage benshi bagiye batandukanye begerejwe ivomero rusange, aho bari kwerekwa uko rikoreshwa, bakaba baje bitwaje n'ibikoresho bashyiramo amazi kugira ngo baritahe.

Umukobwa usutamye afite ijerekani yateretse mu mabase abiri agerekeranye ari kuvoma inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda kuruhande hakaba hari n'inzu y'amabati.

Abantu bagiye batandukanye bahagaze hamwe, bambaye amataburiya y'ubururu, abagabo bambaye amakote ndetse bagiye bafite ibitabo mu ntoki zabo, bose kandi bakaba bambaye udupfukamunwa.

Abaturage benshi bari ku ivomero rusange, higanjemo abagore, abagabo ndetse n'abana bakaba baje kuvoma amazi aho bitwaje ibikoresho bigiye bitandukanye bari buyatwaremo, nk'amajerekani ndetse n'amabase.

Abantu bagiye batandukanye bahagaze hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore n'abanyamahanga, bambaye imipira y'imyeru abenshi, inyuma yabo hari icyapa bari gufata ifoto bishimye.

Abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kiberamo inama, ni abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, imbere ku meza hari amacupa y'amazi yo kunywa ndetse bicaye ku ntebe zisa ibara ry'umukara.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe bambaye imyambaro igitandukanye, bari gufata agafoto, ndetse inyuma yabo hakaba hari n'inzu y'igorofa, iruhande hari ubusitani burimo n'ibiti birebire.

Abagabo bahagaze hamwe bari gusuhuzanya, ku ruhande rwaho hakaba hari n'undi mugore w'umunyamahanga, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe, bari gufata ifoto, iruhande rwabo hakaba hari n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho sare de conferensi bikaba bigaragara ko ari ahabera inama.

Ahantu hakoraniye abaturage benshi cyane bagiye batandukanye, hakaba haparitse imodoka izwi nk'imbangukiragutabara yifashishwa mu gutwara abarwayi barembye cyane, inyuma yabo hari amazu.

Abamama bagiye batandukanye bazanye abana babo kwa muganga kubakingiza ndetse bagahabwa n'ifunguro ryujuje ubuziranenge, bari kwitabwaho n'abantu bambaye imipira iri mu ibara rya oranje.

Abana bagiye batandukanye baje kuvoma k'ivomero rusange bazanye utujerekani dutoya kugira ngo babashe kudutwara ku ruhande rwabo bakikijwe n'ibiti ndetse n'imisozi.

Umugabo uri guseka bigaragara ko akuze, yambaye ishati irimo amabara atandukanye n'ipantaro y'umukara. Imbere ye hateretse ijerekani y'umuhondo ndetse ari ku ivomero bigaragara ko ari rusange.

Umugore uri ku ivomero rusange ahetse umwana mu gitenge ari koza umufuniko w'indobo, impande ye hakaba hari izindi ndobo kandi akikijwe n'amashyamba.

Abaturage bagiye batandukanye bicaye hamwe, harimo abagore cyane cyane n'abana babo bakaba bakurikiye umugabo uri imbere wambaye ikote uri kubabwira ijambo afite n'ibitabo mu ntoki ze.

Umugabo ugeze mu za bukuru yagiye kwivuza kwa muganga yambaye agapfukamunwa, bari kumutera urushinge kugira indwara ye ibashe gukira, uri kurumutera yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Abagabo bagiye batandukanye, bambaye amakote ndetse n'abagore, bahagaze hamwe bari gufata ifoto, inyuma yabo hakaba hari igipapuro kinini kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza.

Umukobwa usutamye wambaye ijipo y'umukara, akaba ari kuri robine ari kuvoma amazi ajya mu ijerekani isa umuhondo iteretse mu mabasi abiri agerekeranyije, inyuma ye hari umugozi wo kwanikaho imyenda.

Abagabo ndetse n'abagore bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'indabo, hakaba hari na mudasobwa bamwe bagiye bafite.

Abaturage bagiye batandukanye bahagaze hamwe, harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, hakaba hari umumama uri kuvomera umwana, wambaye umupira w'umutuku, ufite amajerekani imbere ye, ari kugenda ashyiramo amazi.

Umugore n'umwana, umwana yambaye ishati ya kaki bigaragara ko ari iniforume, na ho umugore yambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa kadoze mu gitenge, ari gukarabya umwana intoki.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bari kugenda baterura imifuka iri mu ibara ry'umweru, bayipanga ahantu runaka, bahagaze kuri shitingi isa ubururu.

Abagabo bagiye batandukanye ndetse n'abagore bicaye hamwe bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'indabyo zihatatse hakaba hari insakazamashusho bifashisha mu nama.

Abamama batatu bicaye hamwe, bambaye ibitenge, baje kwisuzumisha indwara zitandukanye kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze, umuganga uri kubafasha, yambaye itaburiya y'umweru ndetse ari kubapima.

Abamama batatu bari ku ivomero rusange bambaye imyenda y'ibitenge, bakaba baje kuvoma amazi aho bazanye ibikoresho bitandukanye bavomeramo, harimo nk'indobo, ku ruhande rwabo hakaba hari ibiti birebire.

Umwana ufashe indobo mu ntoki ze urabona ko ari kuyiterura kugira ayikorere, imbere ye ni ivomero rusange, hahagaze umugabo wambaye ikoboyi n'umupira w'ubururu.

Umwana uri ku ivomero rusange; hasi hateretse indobo iri kujyamo amazi ndetse nawe ari kunywa ku mazi akoresheje ibiganza bye; akaba yambaye ikabutura y'umutuku ku ruhande hari izindi nyubako.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye, hari abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'umudamu uri kuvurwa, bakaba bakuvura ugataha umeze neza.

Umumama wikoreye indobo y'umutuku ndetse yambaye n'igitenge mu kandi kaboko afitemo indobo iri m'ibara ry'umuhondo ku ruhande akikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye n'ibyatsi.

Abantu bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse hari undi mugabo ubicaye imbere uyoboye iyo nama.

Ababyeyi bagiye batandukanye bari kumwe n'undi mumama ubyibushye wambaye itaburiya y'umweru, bisa nkaho ari gupima umwana ni muganga.

Umugabo uhagaze wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu hakaba hari n'umugore wicaye, imbere yabo ku meza hari mudasobwa ihari ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Abantu benshi bicaye hamwe ku cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore imbere yabo bose bafite uducupa tw'amazi yo kunywa, bakurikiye umugore uri kubagezaho ijambo uhagaze imbere.

Umugore uri kumwenyura wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku n'akandimo imbere kari mu ibara ry'umukara. Inyuma ye hari inzu ndetse iteretseho imbere n'intebe yo kwicaraho.

Abaturage benshi bateraniye mu cyumba, bigaragara ko kiri kuberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, ku nkuta hariho insakazamashusho ndetse bakurikiye abamama babiri bari imbere, bari kubagezaho ibiganiro.

Umugore uhagaze yambaye ikote riri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikanzu itukura, afite baji mu ijosi rye, inyuma ye hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amagambo y'Icyongereza.

Abaturage bagiye batandukanye bari mu nama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore. Ku meza bicayeho hagiye hariho amacupa y'amazi yo kunywa ndetse bamwe muri bo bafite n'amakayi bandikamo ibivugirwa mu nama.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bari gufata ifoto bayifatiye mu cyumba, kimanitsemo ifoto y'undi mugabo. Kandi kumeza hari agacupa k'amazi yo kunywa.

Umugabo n'umugore bicaye mu cyumba kiberamo inama, imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi yo kunywa, naho bafite indangururamajwi zibafasha kurushaho kumvikanisha ijwi ryabo.

Abagabo bagiye batandukanye ndetse n'abagore bahagaze hamwe mu ihema rinini ry'umweru, imbere yabo ku meza hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bugezweho.

Abantu benshi, bamwe baricaye, abandi barahagaze, harimo abagore ndetse n'abagabo, bateraniye mu cyumba cyabereyemo inama, bari gufata ifoto, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi, bari kumwe n'abashinzwe umutekano, ndetse bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ati kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Umugore ufite umwana mu ntoki ze akaba ateze igitambaro mu mutwe cya oranje, imbere hateretse agasahane karimo ibiribwa kari mu ibara ritukura, inyuma yabo hakaba hari inzu yubakishije ibyondo.

Abamama bari mu cyumba kiri kuberamo inama, batatu baricaye undi umwe arahagaze ari imbere yabo yambaye umupira w'umweru, abandi bagiye bafite uducupa tw'amazi imbere yabo ndetse na terefone ngendanwa.

Umumama ugeze mu zabukuru, yicaye ku gasongabugari ndetse ari gutekera ku mashyiga, akaba yambaye imyenda idozwe mu bitenge, inyuma ye hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'insina.

Umugore wambaye igitenge n'agapira akaba yicaye ku giti kiriho umunyururu, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ndetse inyuma y'iwe hakaba hari n'ibindi biti byinshi.

Umugabo uryamye bari guha serivise zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, uri kuzimuha yambaye ga z'ubururu, ishati y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'umweru.

Ahazwi nko kwa muganga haracyeye higanjemo ibara ry'umweru, hakaba hari imashini zifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye ndetse n'igitanda gikozwe mu buryo bugezweho.

Umugabo uryamye uri guhabwa serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, uri kuzimuha yambaye ga z'ubururu ndetse n'umupira w'umweru aha ngaha akaba ari kwa muganga w'amenyo.

Abantu bicaye hamwe bagiye batandukanye, bambaye imipira y'icyatsi isa, bari guhabwa ubufasha mu bijyanye n'amenyo, ndetse abari kubaha ubufasha bambaye imipira y'umweru.

Umugabo uri mu kibuga bakiniramo basikete ari kumwe n'akana ke gafite balo mu ntoki bigaragara ko bari gukina bishimye. Ku ruhande rwabo bakikijwe n'inyubako zigiye zitandukanye nziza.

Abagabo babiri ubona ko bakuze bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru bafite uducupa tw'amazi mu ntoki zabo bakaba bari gukora aga siporo, impande yabo bakikijwe n'ibiti n'ubusitani bwiza.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'umweru ari kwitabwaho n'umuganga wabigenewe wambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hari amarido n'intebe irimo umusego.

Abagore babiri ndetse n'umwana, bose bari kumwenyura bambaye imipira iri mu mabara atandukanye, impande yabo hari ibyombo ndetse umwana afite n'imboga mu ntoki ze, bigaragara ko bari gutunganya icyo kurya.

Umugabo ugeze mu zabukuru, yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'ikoboyi. Yicaye mu kagare k'abamugaye ndetse yicaranye n'akana, bari gukina gemu. Umwana yambaye umupira usa icyatsi.

Umugore ndetse n'umugabo, bakaba bambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu. Umugabo mu ijosi rye afite akuma kifashishwa mu gupima k'umutima utera, naho umudamu afite inkoni mu ntoki imufasha kugenda.

Umugabo wiyogosheshe uruhara ufite ubwanwa bw'umweru. Mu kiganza cye afashe agatasi karimo amazi yo kunywesha imiti bari kumusukira mu kiganza. Naho umugore yambaye ishati y'ubururu.

Umugabo n'umugore bageze mu za bukuru, umugabo yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu naho umudamu yambaye uri mu ibara ritukura, bakaba bari gufata imiti yabo kugira ubuzima burusheho kugenda neza.

Umugabo ndetse n'umugore bageze mu zabukuru urabona ko bishimye, imbere yabo hari ibiribwa bigiye bitandukanye byiganjemo imboga ndetse inyuma yabo hakaba hari n'akabati kamanitsemo ibikoresho byo mu gikoni.

Abamama babiri bari muri siporo, umwe ateze agatambaro kari mu ibara ritukura ndetse ku ruhande rwabo, bakikijwe n'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse bigatanga n'umwuka mwiza.

Umukobwa ndetse n'umugabo, umugabo yambaye umupira w'umukara, imbere yateretse mudasobwa. Ndetse umukobwa ari kumufasha kunywa imiti yiwe, imbere hateretse agakombe k'amazi ko kunywesha imiti.

Abaturage benshi bagiye batandukanye, harimo abagore, abagabo ndetse n'abasore, bicaye hamwe, bamwe bicaye ku ntebe z'urubaho abandi bicaye ku za palasitike, munsi yabo hari agacucu.

Abantu bagiye batandukanye benshi cyane biganjemo abambaye imyenda y'umweru, hari n'abandi bari imbere bafashe icyapa cyanditseho ngo rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda.

Abantu batandukanye, bari mu cyumba cy'inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, ku meza imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Abantu benshi bagiye batandukanye bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'abantu bari imbere, hari n'undi ushinzwe gufata amafoto.

Kwa muganga hari gutangirwa ubufasha bugiye butandukanye, hari umumama wambaye agapfukamunwa k'umweru n'umupira, bari kumutera urushinge urabona ko yarutinye cyane.

Abagabo batandukanye ndetse n'umugore, bambaye udupfukamunwa ndetse bari kwita ku mugabo uryamye hasi bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Bari gukora uko bashoboye kose kugira ngo bamuvure.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bamwe baricaye abandi barahagaze, bafite ibitabo mu ntoki zabo, ndetse inyuma yabo hakaba hari n'icyapa kinini, kiri mu mabara y'umweru.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba bigaragara ko ari icy'inama, bakurikiye umudamu uri imbere wambaye agapira k'icyatsi, afite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse inyuma ye hakaba hari n'ushinzwe ibyuma n'amashusho.

Kwa muganga hari ibitanda bigiye bitandukanye bishasheho amashuka y'ubururu, ndetse bikaba byifashishwa bashyiraho abarwayi barembye bakitabwaho muri iyo minsi bari aho ngaho n'imashini zabugenewe zibafasha kubitaho.

Inyubako nziza cyane igiye ifite imitako itandukanye, harimo ibiti by'imitako, intebe nziza ziberewe no kwicaramo ndetse n'ameza agiye ari mu mabara atandukanye, nk'umweru ndetse n'umukara.

Mu ivuriro hari ibitanda bigiye bitandukanye bishyirwaho abantu baje barwaye hakaba hari n'undi mugabo uri gukora isuku wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara akaba ari kuhakoropa.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru, ifite igisenge cy'ubururu ndetse ikaba ifite n'ubusitani bunini ririmo igiti kizana umuyaga aho hantu ndetse n'amahumbezi, inyuma yayo hari izindi nyubako nyinshi.

Ahacururizwa imiti y'ubwoko bugiye butandukanye hazwi nko muri farumasi, bakaba bafite imiti iri mu dukombe mu bikarito, ndetse ku bikuta hakaba hasize irangi ry'umweru.

Amarembo manini hejuru hari icyapa kigaragaza ko ari mu bitaro bya Kabgayi, imbere muri icyi gipangu hagiye hateyemo ibiti bitandukanye ndetse n'amatara maremare.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti m, hakaba hazwi nko muri farumasi, hateretse intebe y'umweru hicarwaho n'abaje kugura imiti ndetse hasi hakaba hari amakaro ari mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore n'abanyamahanga, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho Rwamagana hospital bikaba bigaragaza ko ari ku bitaro bya Rwamagana.

Mu nzu itwikiriye ifite ibirahuri bituma ubasha kureba hanze ahari ubusitani, hakaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, aho hari ibyo birukaho n'ibyo baterura biremereye.

Inyubako ndende igeretse rimwe, ikaba yanditseho amagambo agira ati ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ikaba yifashishwa n'abatari bake bahagana bafite ibibazo bitandukanye, bakabavura bagakira.

Mu bitaro kwa muganga, hagiye hari ibitanda bitandukanye, bishasheho amashuka y'ubururu n'umweru. Bakaba babiryamishaho abarwayi barembye kugira ngo bitabweho, ndetse hakaba hagiye harimo n'amarido atandukanya ibyo bitanda.

Mu bitaro ahantu harwarira abarwayi bagiye batandukanye, hakaba hari ibitanda baryamaho hari abamama babiri bari aho hantu bigaragara ko nabo barwaye bakaba bategereje gukira.

Mu bitaro higanjemo ibara ry'umweru hari imashini zigiye zitandukanye izimanitse hejuru ku bikuta ndetse n'iyindi bigaragara ko ariyo baryamishaho umuntu bari kumukorera ibizamini bitandukanye.

Mu cyumba kwa muganga ahakorerwa ubuvuzi bugiye butandukanye, hakaba hari umurwayi uryamye ku gitanda kugira yitabweho n'undi mugabo uri kumanika supanete wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Ibitanda byo kwa muganga bikurikiranye ndetse hagiye hariho n'amarido ari mu ibara ry'ubururu, kuri ibyo bitanda hashasheho amashuka ari mu ibara ry'icyatsi, hakaba hakeye.

Abagabo bagiye batandukanye ndetse n'abagore, bose bambaye udupfukamunwa tugiye dutandukanye kandi nyuma yabo hari inzu, yanditseho Isange one stop center, Kabutare hosipito.

Kwa muganga ahakorerwa ubuvuzi bugiye butandukanye, hakaba hari ibitanda by'umukara byifashishwa mu gushyiraho abarwayi bakitabwaho ndetse n'imashini zabugenewe bifashisha mu kubavura.

Kwa muganga, ahari ibishushanyo bigiye bitandukanye byometse ku gikuta. Hakaba hari na matela iri mu ibara ry'ubururu, umurwayi aryamaho n'agatebe muganga yicaraho ari kumusuzuma.

Kwa muganga ahari igitanda kiryamyeho umurwayi, hakaba hari n'amarido ari mu ibara ry'icyatsi. Imashini ziteretse impande y'uwo murwayi, zimufasha mu burwayi bwe ndetse n'aho gushyira imyanda.

Kwa muganga hari igitanda kiri mu ibara ry'ubururu n'intebe zo kwicaraho ziri mu ibara ry'ubururu ryifashishwa bashyiraho umurwayi kugira ngo yitabweho ndetse n'ibindi byuma bibafasha mu buvuzi bwabo.

Ibintu bigiye bitandukanye, biba bikenewe kugira ngo umubiri urusheho kumera neza kandi ugire amagara mazima, harimo imbuto, imboga, siporo ndetse n'amazi menshi ahagije.

Umugore wambaye agasengeri kari mu ibara ry'umukara na kora, ku kaboko ke afiteho telefone, bigaragara ko yari ari muri siporo, afashe akaruhuko kugira ngo anywe amazi.

Umugabo ufite imisatsi izingiye inyuma yambaye isengeri iri mu ibara ry'umukara, n'ikabutura ari gukora siporo ku ruhande rwe hari intebe yo kwicaramo.

Umukobwa wambaye kola y'umukara n'agasengeri k'umukara, biragaragara ko abyutse ari kwinanura, aryama ku gitanda kiza kiriho n'amashuka meza, ndetse ibikuta bigize inzu ye birasa umweru.

Abantu bari gukina umupira, biragaragara ko umwe avunitse. Bambaye imipira y’ubururu n’amakabutura y’umukara. Kuruhande hari igikapu bashyiramo imiti, kugirango urwaye ahita ahabwa ubufasha byoroshye.

Agasanduku kari mu ibara rya oranje, kanditseho fasite eyidi, kakaba kabikwamo ibi bikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura abantu byihutirwa.

Umugabo ndetse n'umugore bazanye umwana wabo kwa muganga kumupimisha amenyo, bambaye udupfukamunwa, ndetse umuganga uri kubafasha yambaye itaburiya y'umweru afite icyuma ari gukoresha apima umwana.

Ameza ariho ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyobwa birimo nk'amazi na ji, mu biribwa harimo inyama, ibinyamisogwe ndetse n'ibyuma byo guterura.

Igitanda kifashishwa n'abaganga, kandi kikaba gikunzwe no kwifashishwa mu bibuga by'umupira, bakaba bagitwaraho umuntu utabasha kwigenza, kugira bamugeze aho bari bumuhere ubufasha akeneye.

Ibikapu bibiri bitukura. Kimwe kirafunze, ikindi kirafunguye. Hagiye harimo ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi, byifashishwa mu gihe umuntu agize impanuka runaka imutunguye.

Icyuma cyo kwa muganga kinini n'ikindi kigaragara ko umurwayi akiryamaho, bakamunyuza mu mashini bakabasha gutahura uburwayi afite bakabona kumwandikira imiti izatuma akira.

Ibintu bigiye bitandukanye umubiri uba ukeneye kugira urusheho kugenda neza, bakaba hakubiyemo: imboga, imbuto, ndetse n'agasiporo, ukaba ukenera no kujya kwisuzumisha kwa muganga.

Abasore ndetse n'abakobwa bari ahantu bigaragara ko ari mu ivuriro, bari guhabwa amasomo agiye atandukanye y'uburyo bakoresha imashini zo kwa muganga, uri kuyabaha yambaye ipantaro y'umukara n'itaburiya y'umweru.

Ibikoresho bigiye bitandukanye by'isuku biri hamwe, hakaba harimo amapamba, amasabune na bande zo kwipfuka mu gihe umuntu yagize ikibazo cy'imvune, hakaba harimo n'ibindi bitandukanye.

Uburyo bugiye butandukanye ushobora kugaragazamo ibimenyetso, kumva umutwe uri ku kurya, gucibwamo, umunaniro ukabije ndetse n'urusaku rwinshi rukakubangamira n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikimera kizwi k ku izina ry'umuravumba, kikaba cyifashishwa n'abantu barwaye indwara zitandukanye, zirimo nk'inkorora cyangwa ibicurane byinshi, aho umuntu agifata akagihekenya akamera neza.

Ikimera kimenyerewe ku izina ry'umuravumba, kikaba kifashishwa n'abantu barwaye inkorora ikaze, aho bagifata bakagihekenya bakabasha kumera neza inkorora ikagenda.

Ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'amazina yabyo, tukaba turi kubonamo tungurusumu abantu bakunze guteka ndetse na tangawizi zitekwa mu cyayi kikarushaho kuryoha.

Umusambi ugiye uriho ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'ibiganza biri guhondera indi miti mu kantu, bigaragara ko ari iby'ubuvuzi gakondo.